Inyubako zigirwamo n'abana b'incuke, hahagaze agakobwa kambaye ishati y'umweru n'ijipo, hirya ku nyubako imwe, hari umuryango ukinguye, hateretse ijerekani, hari n'umuyoboro w'amazi atemba amaze gukoreshwa wanahaciye umukuku.

Ishuri ryigishirizwamo abana b'incuke rirakinguye nabo bicayemo imbere bari kwiga, ku muryango hashushanyije umwarimu wabo wambaye ipantaro, ishati ndetse na karuvati, hirya hari ikintu kimeze nk'ikirabyo cyangwag se igiti hariho na gasumbashyamba iri kurisha ihagaze mu byatsi.

Mu kigo cy'amashuri abanza umwarimu wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, ishati na karuvati n'ipantaro ndetse na marinete ari gukoresha abanyeshuri ikizami yabicaje mu buryo butatuma bakopera aho umwe yicaye inyuma y'undi.

Amashuri yo kwigirwamo n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza yubatse ageretse kabiri etaje yo hasi n'iyo hejuru kuzamuka ugera hejuru uca ku mayesikariye, hari ipoto ririho urwego imbere ndetse n'akazu k'amabati k'umusekirite.

Ishuri ry'inshuke aho bigira mo imbere ku meza hateretse utuntu dushimisha abana, harimo uducupa turimo udusaro mo imbere, ndetse n'utundi tuntu tuba dukozwe n'utuyuguti ariko tubajwe mu biti abana bigiraho bakishima ndetse hateretse n'intebe.

Abana batanu biga mu mashuri abanza harimo abahungu batatu n'abakobwa babiri, abahungu babiri bambaye amashati y'umuhondo undi yambaye umupira urimo uturongo, abakobwa umwe yambaye ikanzu, undi yambaye imyenda isa y'ubururu ahantu hose bari kwandika ku kibaho bapfukamye, ikibaho gitereye hasi kimeze nk'igifasha abafite ubumuga.

Ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare mu mashuri abanza, harimo buwate, matematikale ndetse n'uducishamirongo, uducaruziga na kereyo na gome yo kuyihanaguza.

Ibikoresho byifashishwa na veterineri cyangwa se umuganga w'amatungo. Harimo: bote yambara, uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa n'ibyo akoresha, mu gihe amatungo yarwaye, arimo arayaha ubuvuzi.

Ikigo cy'amashuri abanza, cyubatse kuburyo amashuri agiye afatanye ahujwe n'akantu k'akabaraza gatoya, iruhande hari ibiti ndetse hicaye abana, hateretse n'ibikapu byabo, gifite urugi rw'umutuku ndetse bafite n'ikigega gifite ibara ry'icyatsi.

Umupapa wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro. Uri gusasa uburiri, akoresheje amashuka y'ubururu bwerurutse hariho n'umusego n'akana gahagaze, kuruhande kambaye ipantaro n'umupira w'amaboko magufi n'imbwa yako. Ku idirishya hateretse agatara n'akandi kantu ka kabogisi. Hanze y'idirishya hari ibiti byinshi.

Ikigo cy'amashuri abanza cya Wizidomu hayi sikulu, ni ikigo gitanga uburezi bufite ireme ku banyeshuri, kikabitaho, kikabigisha, kikabaha uburere ku buryo bakura ari abana b'intangarugero.

Udutebe tugiye duteye imbere y'akameza tutariho abanyeshuri ni tune tugaragara cyane imbere hari ibindi bintu byubatse hasa nk'ahantu harimo agakoridori umuntu atabasha guhita amenya ibirimo neza, ku ruhande hari ibindi bikoresho byifashishwa mu kwigisha abana.

Abanyeshuri bambaye imipira yo kwifubika y'ubururu irimo n'umweru, amashati y'umweru no hasi bambaye kaki. bahagaze imbere y'inyubako y'ishuri ryabo. Naho abayobozi n'abashyitsi bari babasuye, bicaye ku murongo w'imbere.

Ishuri ryubatse neza imbere hahagaze umuntu, hino hari ikigega cy'umukara gifata amazi amanuka hejuru, imbere hari pasuparume zihinze ariko zitarakura neza ndetse n'igiti kirekire.

Abana bane b'abakobwa barangaje abandi imbere bahetse ibikapu ndetse bafite n'ibindi mu ntoki banatwazanyije, inyuma yabo hari abandi benshi bahagaze mu kigo ndetse n'abari kuzamuka ama esikariye burira.

Ikigo cya TTC Matimba, harimo ibiti byinshi ndetse n'akazu gasize ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi hasi, ni ikigo gitanga uburezi buhamye ndetse uhavuye wese aba a ukenewe, ku isoko ry'umurimo.

Umuyobozi w'ikigo cy'amashuri, arahagaze, afite mikoro, afite n'urupapuro mu ntoki, yambaye rinete, ari kubwira abanyeshuri abareba. Inyuma hicaye abandi batumirwa babasuye, harimo n'abarezi ndetse n'abanyeshuri.

Abanyeshuri bambaye imipira, harimo abambaye iy'icyatsi, abandi iy'ubururu ndetse n'ubururu bwerurutse, abandi bambaye ishati y'umweru, baricaye barakurikiye umudamu uri kubaha ikiganiro ndetse hahagaze n'inzego z'umutekano.

Abana babiri biga mu mashuri yisumbuye, umwe n'umuhungu, undi n'ukobwa, bafite udupapuro bari gusomaho ibyo barimo barabwira bagenzi babo, inyuma yabo hicaye undi, imbere y'ameza nawe ufite urupapuro ari kwandikaho, ku kibaho hashushanyijeho ibizeru bigiye birutana.

Ikirori cy'abana basoje amashuri y'incuke kirarangiye none bari gufata amafoto, bari kumwe n'ababyeyi babo n'abayobozi babo, imbere y'inyubako yubakishije amabuye, ifite ibaraza imbere.

Abanyeshuri bambaye inifomo y'ishati y'umweru ndetse hasi kaki, baricaye barakurikiye. Bamwe bifashe kukananwa basa nkabumiwe, naho abandi barakurikiye cyane bari kumva ibyo babwirwa.

Abanyeshuri b'ingimbi n'abangavu bambaye n'inifomo, imipira y'utujijere, amashati maremare n'amapantaro ndetse abandi amajipo, barahagaze bazamuye amaboko barishimye cyane, bahagaze mu nzu yubatse ariko idasakaye ituzuye neza muri rusange.

Abanyeshuri basoje amasomo yabo muri Kaminuza bambaye ingofero z'umukara ndetse n'amakanzu ariho ibara ry'idarako ry'Igihugu ku kuboko, ahandi hose ari ibara ry'umukara.

Abanyeshuri basoje amashuri yabo ya kaminuza, bambaye amakanzu n'ingofero, bahuriye hamwe mu kirori cyitwa garaduweshoni mu ndimi z'amahanga, barishimye bari gufata amafoto baseka banezerewe.

Inyubako y'ishuri rikuru, aho abanyeshuri baca hari amapave ahasashe ndetse kugira ngo uzamuke ujya hejuru uzamuka ku ma esikariye, ku ruhande hirya hari umurongo w'indabyo uri iruhande rw'ahateye pasiparume muri jaride.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bicaye mu ishuri bari gukoresha imashini buri wese iye. Imbere hicaye abahungu batatu bambaye umupira urimo uturongo, umwe wambaye ishati y'amaboko maremare undi ishati y'amaboko magufi, ndetse inyuma hari abandi batatu harimo irangi ry'umweru muri iryo shuri bicayemo.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru na kaminuza, bahawe seritifika, nyuma yo gusoza amahugurwa, bari barimo bahagaze mu nyubako mo imbere, isize irangi ry'umuhondo werurutse ndetse hariho n'ikintu cy'umukara.

Abanyeshuri biganjemo abasore n'inkumi bicaye mu ishuri barimo bariga ku ntebe z'icyatsi n'utumezaeza duteretse imbere yabo bose barahindukiye kuko ubigisha ashobora kuba ari kuru ruhande rwo hirya.

Abaganga bicaye ku ntebe ari batatu, bari kwakira abarwayi baza babaha amakuru nabo bakayandika ku mpapuro bafite, inyuma hicaye undi mukobwa mu ntebe wambaye ingofero mu mutwe.